Inzu mberabyombi iteraniyemo abayobozi b'inzego zitandukanye, umwe muri abo bayobozi akaba afashe mikoro atanga ikiganiro, imbere ku meza hakaba hari ibyuma by'ikoranabuhanga birimo amatelefoni ndetse n'ibitabo, inyuma yabo hakaba hari abandi bayobozi bareba muri za telefoni.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abayobozi bo mu nzego zitandukanye imbere yabo buri muyobozi hakaba hari icyapa kigaragaza umuryango uhagarariye, ndetse n'icupa ririmo amazi yo kunywa, muri abo bayobozi hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo.

Abantu benshi bateraniye hamwe bicaye munsi y'ihema ry'umweru bakaba hariho ibitambaro bitatseho bifite n'ibara ry'umutuku, umuhondo ndetse n'umweru, n'icyatsi hakaba hariho umupapa uhagaze wambaye agapira k'umuhondo ndetse ipantaro y'umukara akaba n'undi muntu ufite kamera mu ntoki ziwe wambaye agapira k'umutuku.

Ifoto igaragaza abantu bari mu ishuri, cyangwa se bakaba ari nko mu nama bigaragara ko barimo kureba amashusho kuri porojeteri, harimo idarapo ry'u Rwanda ryanditseho.

Ihuriro rusange bigaragare ko abantu bakurikiye bitwaje amamashini, amaterefone bigaragara ko ari ahantu biba ngombwa ko umuntu afata amakuru runaka , urabona ko bafite ubwitonzi bwinshi nk'aho bafite ikintu gishishikaje barimo kumva.

Abantu benshi bicaye hamwe, umwe wambaye umwambaro w'akazi ka emutiyeni bigaragare ko yambaye jire y'umuhondo. Afite imisatsi myinshi yafungiye inyuma akaba imbere ye hicaye umupapa wambaye ishati y'umweru ndetse n'umumama wambaye umupira wumukara akaba ari.

Ndabona hano hari abantu bicaye mu nama bigaragare ko hari umuntu bahanze amaso ariwe urimo kuvuga. Ikindi buri wese yicaye afite agakayi n'agakaramu ko kwandikaho ibiri kuvugirwa mu nama afite n'amazi yo kunywa bigaragare ko

Abantu benshi bicaye hamwe bagaragara ko bari kuganira kandi ari kureba ikintu runaka, imbere hateretse uducupa tw'amazi, n'udukayi, barimo kwandikamo ibyo barimo kumva cyangwa se barimo kubwibwa, harimo umugabo wambaye ishati y'umweru.

Inzu mberabyombi iteraniyemo urubyiruko rugiye rutandukanye ndetse n'abakuze harimo n'abashinzwe umutekano polisi. Urubyiruko inyama rukaba ruri mu mpuzankano y'ubururu ndetse n'abayobozi imbere yabo bambaye imyenda y'icyatsi ndetse n'umukara hasi.

Abantu bari mu nama cyangwa se mu ihuriro runaka baba baganira ibintu runaka ubona ko bakitayeho, urabona ko bose basa nk'aho bahanze amaso ahantu hamwe, bigaragare ko ari ho umuntu urikuvuga cyangwa se icyo bari kubereka giherereye.

Abantu b'ingeri zitandukanye barimo urubyiruko ndetse n'abakuze bakaba bambaye abeshi impunzankano y'udupira tw'icyatsi, ndetse n'umukara ku ruhande hakaba hariho n'abashinzwe umutekano inyuma yabo hakaba hari isakazamajwi...

Inteko y'urubyiruko bambaye impuzankano irimo amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, imbere hahagaze umugore urimo ufashe mikorofone wambaye amarinete abaha ikiganiro, imbere y'uwo mugore hakaba hari ameza maremare ariho amacupa menshi , arimo amazi yo kunywa.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye harimo n'abayobozi bicaye imbere, barimo batanga ikiganiro ku ruhande hari umugore ufashe mikoro arimo atanga ikiganiro ndetse n'umugabo baganira, inyuma hakaba hari insakaza amashusho zigaragaza insanganyamatsiko bari kuvugaho.

Abantu benshi bamwe bicaye abandi bahagaze, imbere y'icyapa kiriho iyamamaza bintu, hakaba harimo abamama bicaye bambaye amakanzu meza y'umweru ndetse n'abambaye udupira tw'umutuku, bikaba bigaragara ko barimo gufata.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye harimo abazungu ndetse n'abirabura mbere yabo ku meza hakaba hari ibikoresho bitandukanye urimo amacupa ndetse n'ibirahuri banyweramo ibyo kunywa ndetse n'amasahani bariramo hakaba hari n'ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga cya mudasobwa.

Bano n'abantu bigaragara ko bameze nk'aho bari mu ruganiriro, bicaye ahantu muri sale, hari abafite telefone bari gufotora, abandi ndabona bishimye bigaragare ko bashobora kuba bari kureba nk'ikintu gisekeje cyangwa se bakaba bari kumva nk'ikintu gisekeje.

Hano biragaragara ko ari abantu bari mu nama y'inteko rusange y'akarere a Gasabo, bigaragara kon hari abicaye, hari n'uwahagurutse arimo kuvuga, noneho imbere yabo hateretse amazi barimo kunywa tu.

Inama , ihuriro ry' inama, urabona ko yitabiriwe n' abantu benshi, abantu ikenda, buri wese afite amazi imbere yiwe, imbere yabo hicaye umuyobozi bigaragara ko arimo kubaganiza cyangwa se bafite ibintu barimo kwigaho.

Inzu mberabyombi, iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, abagore, ndetse n'abagabo, muri iyo nzu inyuma hakaba harimo ndetse n'umuzungu, inyuma yabo hakaba hari n'indabyo zimwe zo mu nzu, n'ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo indangururamajwi.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abirabura ndetse n'abazungu, imbere yabo hakaba hari amacupa y'amazi, bamwe bafashe amakaramu bandika, abandi barimo bareba mu materefoni ndetse hari n'abambaye amakarita mu gatuza.

Abantu benshi bicaye hamwe basa nkaho bicaye mu nama ba nta muntu bafite imisatsi myinshi abandi bateye isuku abagabo bafite imisatsi iringaniye hakaba harimo n'abadafite imisatsi imbere yabo hateretse amazi ndetse n'amaterefone yabo.

Inteko y'abaturage b'ingeri zitandukanye bateraniye hamwe basa n'abitabiriye inama . Bakaba barimo abagore ndetse n'abagabo inyuma yabo hakaba hahagaze amamodoka menshi manini n'abayapakira imizigo. Bamwe muri aba bantu bakaba barimo abambaye amashati ndetse n'abagore bafite imisatsi miremire.

Ndabona hano ni abantu bicaye bameze nk'aho bakurikiranye inama, bafite amazi, bafite amakaramu, impapuro bari kwandikaho ibiri kuvugirwa mu nama, ndabona bicaye ahantu hameze nk'aho ari muri sare.

Icyumba cy'inama kirimo abagore batatu umwe wo ku ruhande akaba yambaye amarinete ndetse undi wo ku rundi ruhande nawe ufite imisatsi miremire. Imbere yabo ku meza hakaba hari ibikoresho bitandukanye birimo amacupa arimo amazi, ibitabo ndetse bamwe muri bo bafashe amatelefoni ndetse n'amakaramu, hakaba hari n'igikapu cy'umukara.

Aha ngaha ni umuntu ushaka kwinjira muri sisiteme yo gusora ya Rwanda reveni ubwo bari kumubwira ngo yinjiremo kugira ngo abone uburyo adekarara imisoro niba agiye kuyishyura cyangwa se agiye guhanaguza nk'imisoro yishyuye ariko bakaba bakiyimubara.

Menyekanisha umusoro ku mutungo utimukanwa n' umusoro ku nyungu z'ubukode uyu munsi .Kwishyura umusoro wamenyekanishije bigomba gukorwa mbere yo ku wa kane tariki makumyabiri n'icyenda z'ukwa kabiri bibiri makumyabiri na kane .Inzu nini ndetse iri mu mbuga iyo nzu hakaba hari indabyo.

Ahantu abantu bakoranira bagiye gufata ikintu runaka cyangwa se kuba baganira imishinga runaka hafite ibara y'umweru ndabona harimo amatara menshi intebe z'umukara insusi ndabona ar'umweru.

Abantu benshi bicaye hamwe bigaragara ko imbere yabo ari igi ikibazo kiriho amatangazo menshi akaba yicaye ku ntebe z'umweru umwe muri bo akaba yambaye agapira k'icyatsi kandi akaba yambaye umupira wumukara n'ingofero nzizaeza yumukara imbere yawo hateretseinlaptop imashini y'umukara.

Hano ndahabona ipoto y'ipironi, ndabona ari iya enterinete, ndabona ifiteho insinga n'ibisahani biyobora konegisiyo bishinzwe gukurura konegisiyo kugira ngo zigere ku baturage neza.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo y'umukara ndetse nay'ubururu gitangwa n'irembo rufasha mu gusaba icyangombwa cy'ubutaka cyahantu umuntu atuye akaba yagira icyangombwa cye kimwanditseho.

Urupapuro ruri mu ibara ry'icyatsi, rufite amagambo yanditseho akoresheje ibara ry'umweru n'andi yanditseho ari mu tuntu tw'ubururu n'ibara ry'umweru, hasi hariho ikigaragaza amerekezo y'ahantu umuntu agomba kuba ari y'uko Kigali, Rwanda.

Uyu ni umunara w'itumanaho ufite amabara y'umweru n'umutuku, bigaragara ko ari uwa sosiyete ya y'itumanaho yitwa eyateri mani, bigaragare ko...

Hano ndabona ari abantu bicaye , bishoboke ko bari mu ishuri rya kopiyuta, cyangwa se mu bakaba bari mu cyumba kiberamo, bakoresherezamo interinete, bambaye ekuteri bigaragare ko barimo gucuranga cyangwa se barimo kumva ibintu bitandukanye.

Umunara muremure w'umutuku ndetse n'umweru bigaragare ko ari umunara wa sosiyete y'itumanaho ya Airtel, ufite igipangu kiwuzengurutse kiwurinda abantu kuba bawugeraho, hakaba ikirere gisa neza, gisa umweru ndetse hakaba hari n'i....

Urupapuro rw'ubururu n'umweru rufite amagambo yandikishijwe umuhondoda yandikishijwe umweru hasi hariho inzu ifite igeretse gatatu ifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Uribaza icyo wakora igihe imashini yawe ya EBM yangiritse cyangwa se yabaye, yagize ikindi ikibazo? ngo andika EBM urebe kuri webusayiti.

Ipoto iriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'izindi zitwara murandasi, zimwe muri izo nsinga zikaba zimanuka hasi mu butaka, hasi kandi aho ipoto rishinze hakaba hari ibiti n'umucaca byinshi, iyo poto ikaba ituranye n'akayira k'abanyamaguru ndetse n'igice gitoya cy'umuhanda kigaragara. Hakurya hakaba hagaragara ndetse n'izindi nzu n'ikirere kirimo amacu.

Umunara wubatse w'umutuku n'umweru, ufite agapangu k'umutuku, hasi hakaba hari akantu kakabogisi karimo ubururu hirya hakaba hari icyapa nacyo cy'umutuku n'umweru hejuru yaho hakaba hariho senyenge.

Inzu y'umuhondo ibikwamo ibyuma by'amashanyarazi. Bigaragare ko ari aho bakontororera umuriro w'amashanyarazi. Harimo ibyuma biri mu ka box by'icyatsi. Hakabaho n'ibindi biri mu kazu gafunze.

Ipoto y'amashanyarazi iriho insinga, munsi yayo hakaba hari inzu ifite igisenge cy'umutuku ikirere gisa ubururu n'umweru buherutse hino hari igipangu cy'icyatsi gisa gifite utuntu dusongoye hejuru.

Hano ndabona ibikoresho by'amashanyarazi bikoreshwa mu kuba byafata umuriro bikabikura kurugero rumwe bikawushyira kuwundi ariyo twita amatiransifo nkabonaho n'amapoto ariyo mapironi ashinzwe gutwara uwo muriro awuvana ahantu hamwe awujyana ahandi.

Ihuriro ry'imihanda ririmo ipoto y'amashanyarazi iriho insinga nyinshi hakaba hariho umuntu wuriye bigaragara ko yagiye gukora amashanyarazi, hakaba harimo imodoka nyinshi iz'umukara ndetse n'iz'umutuku hakaba harimo moto zihetse abagenzi n'izidahetse.

Ihuriro ry'abantu benshi n'ibinyabiziga harimo moto nyinshi ziparitse zikeneyene abagenzi ha harimo izitwara abagenzi hakaba harimo imodoka zitwara abagenzi neza n'izindi zitwara imizigo hakabarimo abantu bagenda n'amaguru ndetse n'abateze.

Ihuriro ry'imihanda ririmo ibinyabiziga byinshi ha akaba arimo moto imwe ihetse umupapa wambaye umupira w'icyatsi akaba yambaye ingofero yabugenewe y'umutuku akaba ahetse igikapu cy'umuntu mugo ngo akaba arimo umuntu arimo kugenda n'amaguru harimo papa wambaye agashati k'umutuku ndetse n'ingofero y'ubururu n'undi muntu urimo kumanuka.

Ifoto y'abamotari bari mu muhanda bagenda, harimo n'abantu bambuka, bigaragara ko ari ahantu, hakunda gukorerwa ibikorwa byinshi bitandukanye.

Bacuruza ibikoresho bitandukanye ari byo birimo: amatelefone, mudasobwa, amasakoshi imyenda ndetse hakaba hariho n'ibiciro mu gihe utabasha gusobanukirwa, ariko bagashyiraho ibiciro ku buryo ubashaka gusobanukirwa bitewe nicyo ushaka.

Abantu benshi bahagaze n'abicaye, imbere yabo haparitse imodoka z'imbangukiragutabara, bari munsi y'igisenge cy'umuhondo ririho itara rirerire, hakaba hariho ushinzwe umutekano wambaye imyenda isa n'ivu.

Icyapa cy'ubururu gifite amagambo yandikishijeho umweru kiranga aho bafatira imiti hirya hapagaritse imodoka y'ubururu n'umweru , hano hari akantu kubatse gafite idarapo ry'umuhondo n'ubururu .

Urupapuro rw'umweru rufite amagambo y'umukara, rwanditseho sonarwa risite asiranse, rukaba rugaragaza uburyo umuntu ashobora kwishyura ubwishingizi ndetse n'uburyo bukora amategeko agenga abishyura ubwishingizi

Mu rukiko aho bacira imanza, hakaba harimo abunganira mu mategeko ndetse n'abacamanza, bamwe muri abo bakaba bambaye udupfukamunwa ndetse n'amakoti y'umukara, imbere yabo hakaba hari ameza ariho amacupa y'amazi ndetse n'imiti yica udukoko n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bifata amajwi.

abantu benshi bicaye hamwe bigaragara ko bari munama harumwe uhagaze bishobokeye ko ari gutanga ikibazo cyangwa se akaba arimo kubaza ikibazo cyangwa akaba ari nko kuregwa akaba arimo gutanga ubusobanuro bwibyo yaba yarakoze.

Hano hari umuntu bigaragara ko akora mu biro bya leta, yambaye umupira w'umutuku n'ikarovati, yambaye na rinete, n'ishati ifite amabara abiri atandukanye.

Ihuriro ry'abantu benshi, ndabona abenshi bambayemo ama furari bigaragare ko ari aba sikawuti. Harimo abantu bambaye imyenda isa cyane wagirango n'abanyeshuri, kuko bambaye umweru n'umukara.

Umuma ugaragara ko akora muri leta wambaye linete, akambara umupira w'umutuku, akambaramo n'ishati y'umukara ifite n'ibara ry'umweru ndetse n'umutuku.

Umugabo w'umwirabura uhagaze, atagira umusatsi, wambaye ikoti ry'umutuku, wambaye karuvati y'ubururu, ishati y'umukara ifitemo amabara y'umutuku.

Aha ni ahantu whagaragaza ahantu kizimyamoto ibikwa, cyangwa se ahantu hari umugozi umuntu ashobora kuba yacikiraho igihe habaye nk'inkongi y'umuriro bikaba ngombwa ko utabanza kujya kuzenguruka amaesikariye.

Abapolisi bafite imbunda, bameze nk'aho bari ku muronko, noneho umuyobozi wabo ari we afande akaba abari imbere, bikaba bigaragara ko imyambaro bambaye igiye iriho idarapo ry'u Rwanda, bigaragara ko ari abapolisi b'u Rwanda.

Inyubako ifiteho ikizimyamoto y'umutuku, ikaba iriho umugozi w'umutuku ndetse ikaba ifiteho akarango kariho amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara, hakaba hariho akandi karango k'umweru kariho amabara y'umutuku, hakaba hariho n'ikimenyetso cy'ibirango cy'umutuku.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga bitandukanye, muri byo hakaba hari ibitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Akamodoka gato ndetse na moto imbere, hakaba hari n'ikinyabiziga nanone cya polisi ndetse hakaba hari n'ibiti byinshi cyane biri ku nkiko z'uwo muhanda.

Kizimyamwoto iri mu ibara ry'umutuku ikaba ifite umugozi wawundi utwara gaze, mu ibara ry'umutuku, ikaba ifiteho impeta ufungura mbere y'uko bakoresha iyo kizimyamwoto, iri mu mu ibara ry'umweru hakaba hariho amavisi y'umweru.

Abamotari benshi baparitse hamwe bahetse abagenzi bambaye kasike z'icyatsi z'umutuku, imbere yabo hahagaze umupolisi wambaye imyenda y'ubururu bwijimye, hakaba harimo n'ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru, akaba arimo kubereka uko bagomba kugenda.

Sitasiyo ya polisi iherereye i Gisozi ifite ibara ry'umuhondo, ifite n'ikirango cya polisi hejuru, hirya yaho hahagaze abapolisi babiri, umwe ufite imbunda n'undi udafite imbunda.

Aha ni imodoka yafashwe n'inkongi y'umuriro, hakaba haje imodoka yaba kizimyamwoto baje gutabara bigaragare ko hari umugabo wambaye isarubeti y'ubururu ndetse n'icyatsi urimo kuzimya umuriro wafashe iyi modoka.

Abantu batatu bahagaze bigaragare ko bahagaze imbere y'agasanduku k'itora, umwe yambaye ikoti ry'ubururu, mu imbere yambaye agapira k'umweru, undi hirya yambaye ishati y'ivu ,no mu imbere yambaye agapira k'umweru n'ipataro y'umukara ,umu mama wo hirya yambaye ikoti k'umweru.

Igaragazwa ry'amajwi y'abatowe, n'ikigero bagiye batorwaho, abatowe bari batatu, harimo Kagame Paul, Habineza Frank, Mpayimana Philippe, bigararaga ko Kagame Paul ari we watsinze, ku majwi mirongo icyenda n'icyenda n'ibice cumi na butanu ku ijana.

Umuntu bigaragara ko ari mu ihuriro rusange afashe mikoro arimo kuvuga akoresha n'ibimenyetso by'intoki bigaragaye ko ibintu narimo kuvuga ashaka kugira ngo byumvikane, inyuma ye hakaba hahagaze abandi bantu babiri bigaragara ko ari abashinzwe umutekano.

Ikirere kijimye kirimo ibicu byinshi bitanga imvura ndetse n'igitu cy'ubuyuru gituruka hirya inyuma ndetse hakaba hari n'igiti kiriho ibendera ry'ishaka rimwe ryo mu Rwanda rigizwe n'ibara ry'ubururu, umwe ndetse n'umutuku, handitsemo amagambo mu ibara ry'umukara rya FPR.

Abayobozi bo mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe wambaye ikoti ry'umukara, inyuma yabo hakaba hari ikirango cy'umutuku ndetse bamwe muri bo bakaba bambaye amarinete abandi bakaba bafite imisatsi miremire.

Urupapuro rw'umweru rurufiteho amabara y'umukara, umweru, umutuku ndetse n'umuhondo bigaragaza umubare w'imidugudu, utugari, imirenge uturere ndetse n'igihugu kigaragara mu buryo bwagiye.

Abantu batatu bicaye, imbere yabo hari imashini ndetse kandi umwe uhagaze wambaye ikoti ry'umweru ndetse n'impantaro y'umweru n'ishati y'umweru, afite igiseke mu ntoki barimo kugenda bashyiramo impapuro wagira ngo ni amabahasha arimo.

Ibinyabiziga birimo bigenda mu muhanda, ikimbere gihetse umuntu icya kabiri, ndetse na mugenzi gifite bambaye kasike umwe yambaye kasike z’umutuku. Hirya icyapa cyanditseho Tora Kagame, twubaha u Rwanda, twifuza.

Umuhungu wambaye ishati y'umweru ameze nkaho yakoresheje ikoraniro ari gusuhuza abantu, hari n'umukameramani usa n'usutamye, bigaragare ko hari undi muntu ari guhereza umwanya kugira ngo nawe abone ukuntu afotora, bigaragare ko ari abantu bari mu gikorwa runaka.

Aha ngaha bigaragara ko ari abantu bari gutora ee bakaba bafite ifishi y'itora bakaba bari kuyishyira mu isanduku y'itora ikigaragara hari umuntu umwe urimo gushyiramo wambaye ishati y'umukara hari n'undi umuhagaze iruhande wambaye ishati ikanzu y'ubururu.

Umu mama wambaye ikote ry'ubururu ndetse ishati y'ubururu, akaba yambaye rinete, akaba yambaye amaherena. Yicaye ku ntebe y'umukara inyuma ye hari amarido y'umweru ndetse akaba ari kwitegereza cyane, akaba yambaye isaha nziza cyane ya.

Umuntu winzobe ufite umusatsi uringaniye wambaye ikote rya kositimu yubururu yambaye n'ishati yumweru ,karuvati y'ubururu akaba ahuje ibiganza akaba arimo kureba imbere .

Umuhanda munini urimo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ariko ntoya, ukaba watekanje na none n'undi muhanda, hakurya y'uwo muhanda hakaba hari ibiti byinshi cyane ndetse hakaba hagaragara n'igice gitoya cy'ikirere kirimo akazuba.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka itwara abagenzi rusange imbere yaho hariho umuntu urimo kugenda n'amaguru hakurya hariyo ipoto y'umuriro w'amashanyarazi n'ibisinga biri hejuru hakurya hari ishyamba ryinshi cyane ikirere kiri gusa ubururu n'umweru wiganje.

Imodoka itwara abagenzi irimo kubushanya n'abamotari, umumotari umwe ahetse umugenzi undi mumotari ari imbere nta mugenzi afite bigaragare ko ntawe yabonye yambaye kasike z'umuhondo uwinyuma yambaye..

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka imwe y'amapine ane, ikaba harimo n'indi moto ifite amapine abiri, ikaba itwaye abagenzi babiri, bambaye ingofero zabugenewe mu mutwe z'umuhondo, hakaba harimo umushoferi wambaye umupira w'umuhondo.

Umuntu wambaye itaburiya y'ubururu n'amabara mu mugongo y'icyatsi wambaye ipantaro y'ubururu irimo amabara y'umweru wambaye n'inkweto z'umuhondo urimo gusunika, ingorofani itwara imyanda, imbere ye hari moto n'umumotari.

Imodoka y'umweru n'ubururu itwara peteroli cyangwa esanse irimo kuza isa nk'aho idusatira, hirya yayo harindi moto itwaye imizigo.

Hano turi mu muhanda wa leta bigaragara ko harimo imodoka zirimo kugenda z'umweru, iyi y'inyuma n'ayo n'umweru, harimo umuntu urimo kwambuka umuhanda, hari n'abandi bantu bari kugenda hirya, hari n'abamotari baparitse bigaragara ko bari mu kazi.

Imodoka ihagaze ahantu mu mbuga, iyo modoka ikaba itwara abantu muri rusange itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ikaba ifite amabara y'umweru ndetse n'utundi tubara tw'icyatsi turi ku mpande y'iyo modoka, ndetse iyo modoka ikaba ihagazweho n'umugabo aho bayitwarira.

Umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi, ukaba urimo amaga igare ritwaye abantu babiri. Hakaba harimo moto itagira umu itwawe n'umuntu we. Hakaba harimo aka moto k'imyupine atatu gatwaye amatungo.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cya moto gifite ibara risa n'ubururu, umuhanda ukaba uturanye n'inzira y'abanyamaguru irimo umuntu urimo kugenda ndetse ikaba ituranye nayo n'uruzitiro rufite ibara ry'icyatsi n'ibiti birebire inyuma y'urwo ruzitiro hakaba hariyo abantu benshi n'imodoka ipakiye imizigo.

Hano bigaragara ko ari mu muhanda wa Leta harimo imodoka zirimo kujya mubyerekezo bibiri bitandukanye, harimo iy'umutuku irimo kujya mu cyekerekezo kimwe hakabamo n'iy'umweru iri kujya mu cyerekezo kindi, inyuma yayo hari icyapa kigaragaza ibyerekezo uburyo bigenda n'uburyo umuhanda ukomeza.

Moto iparitse inyuma ye haparitse igare harambitse n'intebe ebyiri iy'umweru n'iy'ubururu, harimo kunyura umuhungu ugenda ufashe amvelope mu ntoki agenda yerekera ku mutaka wa emutiyene.

Aho moto z'amapine atatu ziparika bigaragarako bari mukazi bategereje abagenzi ariko iyo hino nta mushoferi igira iyo hirya yo ndabona hasa nkaho hicayeho umushoferi sibye ko yaryamye ku modoka.

Aho bajuhunya imyanda nu ndobo y'ubururu n'akantu batwaraho iyo ndobo bagiye kuba bajugunya imyanda ahabugenewe, kakaba kegetse ku giti cyiri iruhande rw'indobo.

Ibinyabiziga bihagaze ahantu mu muhanda w'igitaka ibyo binyabiziga bikaba birimo amamoto ndetse n'abantu bayatwara bimwe muri byo bikaba bihetse imifuka ndetse nyuma y'ibyo binyabiziga hakaba hari inzu zifite imiryango myinshi itandukanye.

Ikinyabiziga gitwara imizigo kigenda mu muhanda, hirya yacyo hari moto itwaye abantu babiri umwe wambaye ijire yambaye na kasike y'umuhondo n'undi wambaye umupira w'umukara ndetse na kasike y'umuhondo, imbere yaho hari ibinyabiziga.

Ibinyabiziga bitatu bigenda mu muhanda, umwe ahetse umugenzi undi nta mugenzi afite inyuma yabo bakurikiwe n'imodoka y'umutuku ya toyota barimo kuza byerekera mu gihande cyo hepfo n'umuhanda uriho ibiti birebire.

Hano ndabona ni mumuhanda ee w'abantu n'ibintu urabona harimo ibinyabiziga byinshi, harimo moto, amagare, amakamyo, urabona harimo n'abantu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga birimo imodoka y'umweru hakabamo n'indi modoka y'umweruru itwara imizigo, ikabamo umu papa urimo kugenda wambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara, ndetse ufite umufuka ku mutwe; hakaba hariho icyapa cyanditseho ko bitemewe kuhaparika.

Imodoka itwara aba zitwara abagenzi bigaragara ko ziparitse ahantu hamwe, imwe ihagazeho umugabo uyegamiyeho, imwe ni umuhondo n'umweru indi nayo ni ubururu n'umweru.

Abagabo babiri umwe ahetse igikapu barimo batembera imbere yabo hari abandi bantu batagaragara neza ndetse n'imodoka zihahagaze, ku ruhande hari urugo nangwa se uruzitiro rwinjira ahantu mu nzu ndetse imbere yabo nanone cyane hakaba hari ibiti birebire n'ikirere kigufi.

Hano n'imodoka itwara abagenzi iri mu muhanda, bakunze kwita ngo ni kwasteri, irimo kunyura ahantu hirya hasa nk'ahari abantu bari gukora. Umuhanda ku ruhande ufiteho...

Inyabiziga bibiri bitwara imizigo by'umweru kimwe cyo hirya gipakiye imifuka ariko ntigitwikiriye, hino gitwikirije ihema ry'umukara hiryaha hari umutaka wa emutiyene hakaba hahagazeho umuntu .

Imodoka y'umweru n'ubururu ifite amapine abiri k'uruhande rwino ifite purake n'amagambo y'umukara, ikaba ifite rotorovizeri y'umweru, ikaba ifite ibirahuri by'umukara.

Ahangaha bigaragara ko ari ahantu abantu bategereza imodoka, hicaye abamama hari umumama ucuruza amayinite cyangwa se ukorana na sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni ee.

Hano ni mu gikorwaremezo cya leta bita ikibuga, harimo abakinnyi bigaragara ko barimo gukina cyangwa se bakaba bari mu myitozo. Ndimo kureba imbere yanjye hashushanyije ikibuga imbere yaho hari amazamu.

Hariya ndahabona umuhanda bigaragare ko hano hariho ibyapa bigaraga ko umuvuduko wemewe kure makumyabiri kirometero mu isaha, ariya haparitse moto bigaragara ko ziri mu kazi, bigaragare ko hano ari ikibuga bakoreramo ikizami.

Icyapa kigaragaza ko imbere umuhanda udakomeza, cyangwa se imbere umuhanda batemerewe kuwunyuramo, bigaragara ko gifite ishusho ya tiriyangere ya.

Icyapa cy'umuhondo, gifite umuzenguruko w'ibara ry'umukara, gifitemo akantu karanga icyerekezo k'umukara, hakabamo n'akandi gategeka k'umutuku, kakaba gahagaze ku kantu karekare k'umukara na none gafite

Iki ni icyapa kigaragaza umuvuduko ntarengwa ko ari mirongo itandatu kirometero mu isaha akaba ari no kuburira abantu babashoferi yuko kamera ipima umuvuduko ikaba yagufotora iri imbere. Yee.

Inyubako ifite amabati y'umukara, ikaba ifiteho urwego rujya hejuru, ikaba ifite n'ikigega imbere yayo. Imbere yaho hakaba haparitse imodoka, ndetse hakaba hino y'aho hariho icyapa cyri mu ishusho y'urukiramende, ikaba irimo gifite umuzenguruko w'umutuku, kikaba gifitemo n'ikirango cy'umukara.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho y'ampande eshatu ndetse kizengurutswe n'ibara ry'umweru mu imbere harimo ibara ry'umutuku ndetse mu imbere na none hakaba harimo irindi bara ry'umweru, inyuma y'icyo cyapa hakaba hari ibiti byinshi cyane ndetse n'amashyamba.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu, kikaba kizengurutswe n'ibara ry'umutuku, imbere muri iryo barakaba harimo irindi ry'umweru, ndetse n'irindi ry'umukara rigaragaza icyo cyapa icyo gisobanura, hakaba harimo akantu kameze nk'agasozi mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyapa kiburira abantu batwara ibinyabiziga ko imbere gatoya hari ibikorwa birimo kuhakorerwa nko gukora umuhanda se cyangwa kuba bakora mu muhanda.

Iki ni icyapa kiyobora abagenzi cyangwa se abatwara ibinyabiziga. Kibereka ko ahantu bari kujya hazamuka haterera, kandi hajya kukibuga cy'indege, hagurukira indege.

Iki n'icyapa cyo mu muhanda kigaragaza imihanda, ahangaha bikwereka ko ari mwihuriro ry'imihanda, hari umuhanda KN gatatu AV, hakaza na KN mirongo itatu ST.

Iki nicyapa kigaragaza ko aha hantu ntamunyamaguru wemerewe kuhanyura cyangwa se kuhagendera, bigaragaza ko abanyamaguru nyine ahantu batemerewe kuhanyura cyangwa se ngo babe bahambukira umuhanda.

Icyapa cyo mu muhanda kibuza ibinyabiziga kuhahagarara umwanya muto ndetse n'umunini, kikaba gifite ishusho yapande enye izengurutswe n'ibara ry'umutuku ndetse n'imbere hakaba harimo ibara ry'umweru ndetse n'irindi shusho ryo mu ruziga ririmo umurongo utambutse hakaba harimo n'inyuguti ya P mu mabara y'umukara.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse hakaba hari n'igiti gitwara umuriro w'amashanyarazi, ku ruhande hakaba hari inzu ndende y'ubucuruzi y'umuturirwa igizwe n'imiryango myinshi, buri muryango ukaba uriho icyapa iyo nzu ikorerwamo.

Amazu menshi ari ahantu asa nk'ahari gutera imbere, muri ayo mazu hakaba harimo amazu magufi ndetse n'amaremare, amwe akomeje imirimo yo kubakwa, amazu kandi akaba ari ahantu hari imirima irimo ibigori ndetse n'urutoki n'ibiti birebire, hakurya hakaba hagaragara ikirere gisa n'aho kirimo akazuba ndetse.

Imodoka y'umukara ifite purake RAI ,kane ,karindwi, umunani da. ifite amatara y'umutuku ikaba ifite ibinyoteri by'umutuku, ikaba ihagaze ahantu ha .

Imirima irimo imyaka itandukanye, muri iyo myaka twavugamo nk'ibigori ndetse n'urutoki n'ibiti birebire, hakaba hari ndetse n'amazu menshi asa naho ari mu mujyi, hejuru hakaba hagaragara ikirere gikeye kitarimo imvura.

Inyubako y'umweru ifite amadirishya y'umukara ndetse n'ibirahuri by'icyatsi ikaba iriho icyapa cyamamaza inzoga bita Sikolo Laga ikaba iri iruhande rw'umuhanda w'umukara ikaba ifite.

Abantu benshi bahagaze imbere y'ikinyabiziga cya moto, purake ya ERG, kandi munsi y'umutuku ufite gasike z'umutuku. Umwe mubicaye aho yambaye ipantaro y'icyatsi ndetse n'agapira k'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo ufite akayira k' abanyamaguru kuruhande, kubakishijwe amatafari akozwe muri sima ,urimo kunyuramo moto n' amagare n' imodoka bisa nkaho biri hirya...

Ihuriro ry'imihanda ibiri mu byerekezo bitandukanye muri iyo mihanda hakaba harimo imodoka ibiri zigenda mucyerekezo kimwe hakurya y'uwo muhanda hakaba hari umukingo ndetse n'ibiti birebire bikingirije amazu ndetse hakaba hagaragara n'agace gatoya k'ikirere cy'ubururu.

Imodoka y'ubururu n'umweru ihagaze mu muhanda wa kaburimbo imibura yayo hari umuntu wambaye umupira ingofero y'umweru isaruleti y'ubururu akaba arimo kugenda yazamuye amaguru asa nkaho atera imbere.

Hano turi mu muhanda wa leta, aho hari kunyuramo imodoka. Ndabona harimo imodoka y'umukara, hakaba ku ruhande hateyeho ibiti by'imikindo. Hakaba hariho ibyapa, hakaba hariho hirya ibindi binyabiziga bigenda.

Iyi ni ifoto yo mu muhanda icuramye, irimo kuge, umuhanda urimo imodoka, moto, bigaragara ko abamotari bari mu kazi, imodoka zirimo kugenda zerekeza mu cyerekezo cy'imbere, nta n'imwe irimo kugaruka. ndabona.

Umuhanda wa kaburimbo ufite imirongo y'umuhondo ukaba uri kunyuramo imodoka y'umukara ifite amapine ane, ikaba ifite amatara y'umweru kaba hirya yahagaze umugabo wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'ubururu.

Ihuriro ry'imihanda itandukanye, muri iyo mihanda hakaba harimo ibinyabiziga bitandukanye, birimo amamoto ndetse n'amamodoka ndetse muri uwo muhanda, hakaba harimo imirongo y'umweru igaragaza aho abanyamaguru bambukira. Ku ruhanda hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti byinshi, hakurya hakaba hari n'amazu menshi.